Umwana mutoya wo mu kigero cy'imyaka icumi na cumi n'itatu, yunamye avoma amazi yo mu gishanga yanduye akoresheje agapira gatoya kari mu ibara ry'umuhondo.

Ikirangantego cy'umuryango ushinzwe ubuzima ku rwego rw'isi, kigizwe n'umubumbe ufashwe n'ibiganza bibiri, kimwe hejuru, ikindi hasi.

Abagore batanu bahagaze ku kazu k'amazi aho bategereje ko amajerekani yabo bazanye kuvoma agerwaho bakavoma, ubundi bagafata ayo majekani bakayacyura mu rugo bakajyana amazi iwabo imuhira.

Umuryango mpuzamahanga, ufite mu nshingano kwita ku buzima bw'ibidukikije, wateganyije ko tariki makumyabiri n'esheshatu nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ari umunsi isi yose, yizihiza ubuzima bw'ibidukikije.

Abasore babiri n'abakobwa babiri bifashishije icyapa cy'umuryango ukora udukingirizo tw'urukundo, mu gukangurira abantu gukoresha udukingirizo mu gihe barimo bakora imibonano mpuzabitsina.

Muganga yaje mu giturage guhura n'abahatuye aho yabagiriye inama zerekeranye n'imibereho myiza, ndetse ababwira n'uburyo bwinshi bushoboka bwo kubungabunga imibiri yabo, kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Abasore batandatu n'umukobwa umwe, bambaye amashati y'umweru hejuru ndetse n'amapantaro y'umukara hasi, bitwaje n'ibitebo, bari kwinjira ku ivuriro ryitiriwe Umwami Fayisari ryo mu Rwanda.

Muganga ari gufasha umurwayi wagize ikibazo mu ivi, aho arimo aramubwira ati hina ivi wongere urirambure kugira ngo bigufashe kurekura imikaya, yari yagize ikibazo mu ruhande rw'ivi ahagana hejuru.

Umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri mu nzu yabugenewe aho aterura ibifite ibiro byinshi, bikaba bizwiho mu gufasha no kongera ubunini n'ubugari bw'imikaya y'akaboko ku gice cyo hejuru.